Hanze kuri podiyumu hari amabara y'umweru n'umutuku handitsemo tora Aitel bya sosiyete ya Airtel haparitse na moto ebyiri hari n'umuntu w'igitsina gore wambaye baji uri kuri iyo moto aho umuntu ashobora gutsindira iyo moto akoresheje Airtel.

Utuzu twinshi harimo tubiri tw'umuhondo twa sosiyete ya MTN na kamwe k'umutuku ka sosiyete ya Airtel, harimo abantu bari gutanga serivisi zitandukanye zo kubitsa no kubikuza no kugura amayinite. Inyuma y'utwo tuzu haparitse imodoka.

Umutaka w'umuhondo wa sosiyete ya MTN hiciyemo abantu bambaye amajire y'umuhondo ya sosiyete ya MTN bari gutanga serivisi yo kubikuza no kubitsa no kugura amayinite, hirya haparitse imodoka zitandukanye kandi nyinshi.

Umutaka w'umuhondo wa sosiyete ya MTN, harimo abantu b'igitsina gabo, bambaye amajiri y'umuhondo ya sosiyete ya MTN, batanga serivisi zo kubikuza no kubitsa no kugura amainite, hirya yabo hari imodoka nyinshi, ziri kugenda.

Akazu k'umutuku ka sosiyete ya Airtel kanditseho kanyenyeri magana atanu, urwego utangire karimo ibikoresho bitandukanye, amasharijeri ama ekuteri udusume, amasogisi, n'ibindi bikoresho byinshi

Abantu benshi cyane harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore, harimo abambaye imipira y'ubururu n'uwambaye amadarubindi, biragaragara ko bari mu nama bari kugira inama abaturage.

Akazu k'umuhondo ka sosiyete ya MTN aho mo imbere hicayemo umuntu, hanze hicaye n'undi muntu w'igitsina gabo wambaye ijiri y'umutuku n'ipantaro y'umukara, hirya hari akandi kazu k'umutuku ka sosiyete ya Airtel, hirya nanone haparitse imodoka.

Umutaka w'umuhondo wa sosiyete ya MTN, hicayemo umuntu wambaye ijire y'umuhondo, utanga serivisi yo kubitsa no kubikuza, inyuma ye hari amaduka acururizwamo ibicuruzwa bitandukanye.

Hanze mu busitani hari abantu benshi cyane igitsina gabo n'igitsina gore n'umutaka w'umutuku wa sosiyete ya Airtel, hari n'umusaza ufite telefone ya Airtel, bigaragare ko baje mu cyaro kugira na bo bajye bakoresha itumanaho.

Inzu y'agakiyosike icururizwamo ibicuruzwa by'ikoranabuhanga, harimo amatelefone, amaposhete, amasharijeri n'ama ekuteri, hirya hari akazu k'umuhondo ka sosiyete ya MTN kicayemo umuntu utanga serivisi yo kubikuza no kubitsa.

Mu nzu harimo abantu batatu, ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore bambaye ikoti ry'umukara, ufite ikaramu mu ntoki ari kwandika n'undi w'igitsina gabo wambaye ishati y'umweru, imbere yabo hari ameza ariho amakayi menshi ateretseho n'amacupa y'amazi ya sosiyete ya Nile.

Inzu nziza kandi nini cyane, isize irangi ry'umweru bifite amadirishya n'inzugi by'ubururu, yubakishije amabati y'umutuku yanditseho umurenge Sacco, hanze haparitse moto hahagaze n'umuntu w'igitsina gore uhetse umwana, bigaragare ko avuye kwaka serivisi mu murenge Sacco.

Mu nzu isize irangi ry'umuhondo ifite n'inzugi zisize irangi rya shokora, harimo intebe y'urubaho, harimo umuntu w'igitsina gore wambaye imyenda y'ibara ry'umweru n'umukara n'ingofero, ari kubwira abantu afite na telefoni mu ntoki.

Mu nzu isize irangi ry'umweru irim abantu b'igitsina gore, harimo umwee wambaye ingofero y'umweru n'umukara, n'itaburiya y'umweru yanditseho kopu kotemurwa, akawunga ak'iwacu mu ibara ry'umukara.

Mu gisharagati gifite ibara ry'ubururu umuhondo n'icyatsi harimo umuntu w'igitsina gore wambaye umupira w'ubururu, ufite terefone mu ntoki n'indangururamajwi ari kuvuga.

Hanze hahagaze abantu benshi cyane, harimo igitsina gabo n'igitsina gore, bambaye udupfukamunwa, biragaragara ko ari koperative yishyize hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso.

Mu gishaga, hicimo abantu benshi cyane, harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore, hari abambaye amadarubindi, harimo umuntu w'igitsina gabo uhagaze imbere yabo, ufite igikombe cy'ishimwe, wakizamuye.

Inzu nini kandi nziza yubakishije amatafari ahiye, isize irangi ry'umuhondo hahagaze abantu benshi ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore biragaragara ko ari koperative yishyize hamwe hanze haparitse na moto.

Mu nzu isize irangi ry'umuhondo ifite n'inzugi zisa shokora harimo umuntu w'igitsina gore wambaye imyenda y'umweru n'umukara n'ingofero, ufite telefone mu ntoki uri kubabwira, hirya ye hari undi muntu uri kwandika akoresheje ikaramu, akandika mu ikayi.

Abantu benshi cyane harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore, bakora umwuga w'ububaji, aho babaza ibikoresho bitandukanye intebe utubati, ameza n'ibindi bikoresho byinshi.

Mu gisharagate k'icyatsi ubururu n'umuhondo hicayemo abantu benshi ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore bicaye ku ntebe z'umweru bigaragara ko ari koperative bari mu nama.

Hanze hari abantu benshi cyane, harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore, higanjemo abambaye imipira ya orange n'umukara, bari gufata ifoto y'urwibutso, bari ku ivomero rya rusange, ni koperative.

Mu murima munini cyane harimo abantu benshi cyane ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore, bibumbiye hamwe muri koperative, aho bahinga igihingwa k'ibigori hari n'ubwanikiro, kugira ngo banike babashe kubona umusaruro.

Mu gisharagati harimo abantu benshi cyane ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore, biragaragara ko ari koperative yishyize hamwe iboha udupaniye batwaramo ibiribwa, higanjemo abambaye imipira y'ubururu hari abantu baje kureba ibikorwa bakora.

Mu gishararaga gishashemo tapi y'icyatsi hicayemo abagabo batatu, bicaye ku ntebe z'umukara, hirya yabo hari ameza ateretseho amazi ya sosiyete y'inyange, inyuma yaho hari icyapa kinini cyane cyanditseho repubulika y'u Rwanda akarere ka Nyagatare, n'andi magambo menshi mu ibara ry'umukara. Hariho n'ibendera ry'igihugu n'ikirangantego cy'u Rwanda.

Mu nzu hicayemo abantu benshi cyane igitsina gabo n'igitsina gore bicaye ku ntebe z'umweru imbere yabo hari ameza ateretseho amazi ya sosiyete y'Inyange, hari undi mugabo uhagaze imbere yabo ufite indangururamajwi n'icyapa kinini cyane cy'ubururu cyanitseho Nyagatare invesitimenti fomu mu ibara ry'umweru.

Mu gisharagati gifite ibara ry'icyatsi, ubururu n'umuhondo, hicayemo abantu benshi igitsina gabo n'igitsina gore, hari n'undi mugabo bari guhererekanya icyemezo cy'amashimwe.

Inzu nini cyane ikorerwamo umwuga wo kubaza, aho harimo abantu benshi babaza ndetse n'imashini nyinshi aho babaza ibikoresho bitandukanye utubati, ibitanda, intebe n'ibindi byinshi.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bitandukanye, aho abantu baza bayigana kugira ngo baze kugura ibinyobwa bitandukanye bitewe n'ibyo bashaka, hari ibiri mu macupa y'icyatsi, umweru, shokora n'andi menshi.

Inzu y'ubucuruzi iririmo ibicuruzwa bitandukanye by'inzoga bipanze mu tubati, biri mu macupa atandukanye, harimo: ay'icyatsi, umutuku, umuhondo, umukara n'andi menshi cyane.

Mu nzu harimo akabati karimo inkweto zo mu bwoko bwa kamambiri zifite amabara atandukanye umutuku, harimo uturongo tw'umuhondo n'izindi z'ubururu, harimo uturongo tw'umuhondo abantu bambara.

Inzu nini kandi nziza y'ubucuruzi isize irange ry'umweru, icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye by'imyenda harimo amakanzu, amakote, imipira ndetse n'imitako.

Inzu y'ubucuruzi icururizwmo ibicuruzwa bitandukanye ndetse n'ibikoresho. Harimo amabase, ibikombe, indobo, ibikoresho by'isuku, ibikapu ndetse n'ibindi bikoresho byinshi. Hanze haparitse igare.

Muri butike, aho hacururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo n'ibyoza byombo, bita situruwaya, bifite amabara atandukanye, icyatsi, umutuku, ubururu, move n'umukara.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo n'amavuta yo kwisiga ari mu icupa ry'umuhondo rifite n'umupfundikizo w'umweru, akaba ashushanyijeho umwana handitseho Movit.

Mu iduka rinini cyane ricuruza imyenda igiye itandukanye harimo intebe y'ubururu, bacuruza amakanzu, amakote n'amashati harimo ikanzu y'ubururu, umukara, igitaka n'izindi nyinshi bacuruza n'inzitiramibu.

Uburoso bw'amenyo bwinshi abantu bakoresha kugira ngo birinde indwara zitandukanye zandurira mu kanwa, babukoresha basukura mu kanwa harimo amabara atandukanye, icyatsi move, ubururu, n'iroza.

Mu rusengero runini cyane harimo abantu benshi cyane ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore, hari abambaye imyenda y'icyatsi n'abambaye amasengeri y'umweru, ndetse na shokola bari gusenga.

Mu rusengero harimo abantu benshi cyane b'igitsina gabo bicaye imbere yayo hari ameza ari igitambaro cy'umukara, ateretseho amacupa y'amazi, hari n'indangururamajwi, imbere yabo hari abagabo batatu bafite imfatashusho bari kubafata amashusho.

Muri Kiliziya nini cyane harimo ifoto ya Bikiramariya n'iya Yesu ari ku musaraba, harimo n'indabo nyinshi zitandukanye ndetse na Alitari iriho indangururamajwi, hariho n'igitambaro k'icyatsi n'umweru.

Kuri kiliziya nini cyane, iriho umusaraba, yubakishije amatafari ahiye ,hari abantu benshi cyane, igitsina gabo, igitsina gore ndetse n'abana, bari gufata ifoto y'urwibutso.

Urusengero runini cyane, rwubakije amatafari ahiye, rusize n'irangi ry'umweru, hanze haparitse imodoka nyinshi zitandukanye, harimo iz'umweru, umukara, ubururu n'izindi nyinshi.

Abantu benshi cyane harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore n'abamama bahetse abana bitwikiriye imitaka, biragaragara ko baje gusenga kuri Kiliziya nini cyane ifite umusaraba hejuru.

Muri kiliziya harimo abantu benshi cyane igitsina gabo n'igitsina gore harimo abambaye amakanzu y'umweru n'udupfukamunwa, harimo n'umuntu bita Padiri ufite ikintu mu ntoki uri guhaza abaje gusenga.

Mu rusengero runini cyane kandi rwiza rurimo abantu benshi cyane igitsina gabo bambaye amakositimu n'igitsina gore bambaye imyenda y'ubwoko bw'imikenyero barapfukamye bari kubasengera, mu rusengero harimo n'indabo nziza kandi nyinshi.

Urusengero runini cyane kandi rwiza rwubakishije amatafari ahiye, rufite inzugi n'amadirishya by'umutuku, hanze hari na kandagira ukarabe handitse N, E, R, F Rwagitima Church mu ibara ry'ubururu.

Mu nzu harimo abantu benshi cyane, igitsina gabo n'igitsina gore, harimo umugore uhagaze, wambaye ikoti ry'ubururu bwijimye, wambaye impeta, ufite indangururamajwi mu ntoki ze, ari kubwiriza abantu mu rusengero.

Inzu nini cyane kandi nziza ya hoteri, aho bakira abakiriya baje babagana, harimo tapi y'umutuku, shokora, n'umweru, n'intebe zisa umweru n'amarido y'umweru. Hashashe n'igitanda cy'ibara rya kake gishasheho amashuka y'umweru.

Muri hoteli icyumba abantu baza kuruhukiramo, hariho imisego ibiri y'umweru hashasheho n'amashuka y'umweru, imbere yacyo hari ameza ateretseho amatasi n'ikirahure kirimo umutobe w'umwembe.

Hoteli nini cyane kandi nziza isize irangi ry'umweru aho itanga serivise zitandukanye, harimo kwakira abantu mu gihe bashaka aho kuryama no gutanga amafunguro n'ibyo kunywa, hari abagabo benshi cyane harimo ab'igitsina gabo bahagaze biragaragara ko baje kuyifungura ku mugaragaro.

Hoteli nini cyane kandi nziza yubakishije amatafari ahiye isi irange ry'umweru n'umuhondo, ifite n'amadirishya y'umweru, hanze hari ubusitani bwiza buteyemo ibiti.

Inzu nini cyane kandi nziza igeretse, isize irange ry'umweru, yubakishije amabati y'umutuku hanze haparitse imodoka, hirya hari ishyamba ririmo ibiti.

Hoteli nini cyane harimo abantu benshi cyane ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore bicaye ku ntebe z'umweru n'ameza ariho igitambaro cy'umweru bigaragare ko baje kwiyakira.

Muri hoteri, ahazwi nk'aho bakira abakiriya kugira ngo babahe serivisi zitandukanye, harimo intebe zisa shokora, zifite n'imisego y'umweru n'ameza y'ibirahure, ateretseho ururabyo rwiza.

Muri hoteli nziza hari ameza ateretseho isahane y'umweru n'ifurusheti, isahani iriho ibiribwa bitandukanye no kuriyo meza hateretseho icupa rya fanta risa icyatsi n'ikindi kirahure bari gusukamo fanta.

Hoteri nini kandi nziza, aho abantu baza bayigana kugira ngo ibahe serivisi zigiye zitandukanye, harimo ibyo kurya, aho kurara n'izindi. Harimo intebe nziza zo kwicaraho ndetse inatatse neza cyane ku buryo bubereye ijisho.

Muri hoteri nziza kandi nini, hari ubwogero bwa rusange aho umuntu aza koga, hirya hari ubusitani bwiza buteyemo ibiti by'ubwoko bw'imikindo.

Muri hotel aho bakira abakiriya baje kuruhuka harimo igitanda cyiza kiriho imisego ibiri y'umweru ishasheho n'amashuka y'umweru hirya hari intebe yo kwicaraho mu gihe ashaka kwicara umukiriya hari n'amatara acaye.

Muri hoteli ahazwiho gutanga serivisi zitandukanye, harimo gutanga amafunguro, kuraramo n'ibindi, harimo abantu benshi cyane, igitsina gabo n'igitsina gore, abazungu n'abirabura, bari gufata amafunguro y'ibyo kurya n'ibinyobwa.

Hoteri nini kandi nziza igeretse aho abantu baza bayigana kugira ngo babahe serivisi zitandukanye harimo amafunguro, kuryama ndetse n'ibindi, hanze haparitse imodoka.

Muri hoteli ahazwi nk'aho batanga serivisi zigiye zitandukanye, harimo ibyo kunywa n'ibyo kurya ndetse n'aho kuryama, hari ahantu hatatse neza, hari ameza asa shokola n'intebe zisa umweru, aho bateguriye abantu baraza kwiyakirira.

Icyumba kinini kandi kiza cyo muri hoteli, kirimo igitanda kinini kiriho imisego ine gishasheho amashuka y'umweru amasume, harimo n'intebe yo kwicaraho n'ameza.

Icyumba cyo muri hoteri, harimo igitanda cy'umukara, gishasha amashuka y'umweru, kiriho n'imisego ibiri, hirya y'igitanda hari intebe n'ameza ,mu gihe uwo muntu yaje ayigana yakwicaraho.

Muri hoteri ahazwi nko kwakira abakiriya mu gihe baje kuruhuka, harimo igitanda kiza cy'umukara kiriho imisego ibiri y'umweru n'amashuka y'umweru. Hirya hari n'ameza yo kwicaraho.

Inzu nini cyane kandi nziza igeretse ifite ubwogero bwa rusange hanze yabwo, imbere yayo hari intebe abantu bicaraho bavuye koga n'imitaka ihatwikiriye.

Inzu nini, kandi nziza, isize irange ry'umweru, ifite n'utwuma hanze, yubakishije amabati y'umutuku, hanze hari ubusitani bwiza, hanze hari n'umuhanda wubakishije amatafari yo mu bwoko bw'amapave.

muri hoteli, ahazwi nko kwakira abakiriya, bakabategurira ibiryo bya mu gitondo, ibya saa sita n'ibya nimugoroba, hari ameza atetseho amasahani y'umweru n'ibikombe by'umweru ndetse n'ibindi bikoresho, hariho amafunguro ku masahani.

Muri hoteli aho bakirira abantu baje bayigana, hasize irange ry'umweru, hejuru ku gikuta hari ifoto ya Perezida, harimo umuntu w'igitsina gore wambaye ishati y'umweru n'ikote ry'ubururu bwijimye, imbere ye hateretse mudasobwa ni aho bakirira abaje babagana.

Hoteri nziza kandi nini irimo imitako myinshi ya kinyarwanda kugira ngo abayigana bage baza kureba ibitatse iyo hoteri harimo n'imyenda bambara bagiye mu bwogero bwa rusange.

Ameza ateretseho amajage, arimo ibyo kunywa bitandukanye, umutobe w'umwembe, umutobe wa wotameroni, amata n'ibindi byinshi n'amasahani ariho potaje z'amabara atandukanye.

Mu isoko aho bacuruza ibicuruzwa byinshi bitandukanye harimo abantu benshi cyane b'igitsina gore bahetse abana bitwikiriye n'imitaka hacururizwamo ibijumba, ibirayi n'ibindi byinshi.

Abantu benshi harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore bari mu isoko ricuruzamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo igitoki cyo kurya n'ik'imineke ndetse na avoka.

Ni mu isoko rinini cyane, aho hacururizwamo ibicuruzwa bitandukanye ,harimo abantu benshi ,higanjemo igitsina gore baje kugura imyenda, hacururizwamo n'ibikapu, inkweto ,amakariso, n'ibindi byinshi.

Mu isoko aho bacuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo imboga, imbuto n'ibindi, bacuruzamo inyanya, karoti, wotameroni, amaronji, inanasi, imiteja, ibitunguru ndetse n'ibindi byinshi.

Mu isoko aho bacuruza ibicuruzwa bitandukanye, kugira ngo ababishaka baza babagana, bacuruza ibibiriti, umuti w'amenyo, utuyunguruzo, amavuta yo mu mutwe ndetse n'ibindi byinshi.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo umuntu w'igitsina gore, yikoreye umufuka, hepfo ye hari icyapa kinini cy'ubururu, cyanditseho amagambo menshi mu ibara ry'umweru, hari n'ubusitani buteyemo ibiti.

Mu isoko harimo abantu benshi cyane ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore n'bana, aho bacuruza ibicuruzwa bitandukanye harimo imyenda, amakanzu, amajipo n'imyenda y'imbere, harimo n'abaje kugura.

Mu isoko hari abantu benshi cyane igitsina gabo n'igitsina gore, aho bacuruza ibicuruzwa bitandukanye abantu bakaza kugura, harimo n'inkweto za bodaboda n'ibindi byinshi, n'abantu bacuruza amainite ni sosiyete ya MTN.

Aharemerwa isoko bahagurishiriza ibintu bitandukanye harimo ibiribwa n'ibindi bikoresho byinshi, hagurirwa n'imyambaro harimo inkweto zifite amabara atandukanye: umuhondo, ubururu, umutuku, umukara n'andi menshi.

Ku isoko aho bacuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo ibyo kurya bijyanye n'imboga n'imbuto ndetse n'ibinyamafufu, hari abantu benshi cyane igitsina gabo, igitsina gore baje bahagana kugira ngo baze guhaha ibyo bakeneye.

Ahacururizwa imyenda yo mu bwoko bw'ibitenge, harimo amabara menshi atandukanye icyatsi, umuhondo, umutuku, orange, n'andi menshi, hicayemo n'umuntu w'igitsina gore ugurisha iyo myenda. Hari n'akayira abanyamaruguru batambukamo mu gihe bagiyeye guhaha ibindi bicuruzwa.

Umutaka w'umuhondo wanditseho yero mu ibara ry'umweru wa sosiyete ya MTN hirya yawo haparitse amagare ariho ibitebo n'imodoka y'umweru irimo abantu biragaragara ko ari mu isoko aho abagenzi banyura bajya kugura no kugurisha ibicuruzwa.

Mu isoko harimo abantu benshi cyane, igitsina gabo n'igitsina gore, harimo umuntu w'umugabo ufite amasambusa y'ibirayi mu ntoki ze, mu isoko hacururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, imboga imbuto n'ibindi.

Nu isoko ririmo abantu batandukanye, igitsina gabo n'igitsina gore, abagurisha n'abagura ibintu byinshi bitandukanye, harimo imboga n'imbuto, harimo amaronji, pome, ibinyomoro, voka, amadegede n'ibindi byinshi.

Mu isoko riciriritse hari abantu benshi cyane higanjemo ab'igitsina gore bacuruza ibicuruzwa bitandukanye harimo ibitunguru, imboga, imiteja ndetse n'ibindi, hari n'amaduka ari hirya y'iryo soko bacuruzaho ibirayi n'ibitoki.

Resitora nziza icuruza ibiribwa bihiye, byaba ibyo bafata mu gitondo, saa sita na nimugoroba, hanze hari intebe z'umweru zifite n'ameza, hari n'ubusitani bwiza.

Inzu nini ya resitora aho bacururizamo amafunguro ahiye, umuntu ashobora gufata mu gitondo, saa sita cyangwa nimugoroba, amafunguro atandukanye haba harimo ibiribwa n'ibinyobwa.

Mu nzu haparitsemo moto, ifite ibara ry'umweru n'umukara, inyuma hari pulake ya RE magana ane mirongo icyenda na karindwi D, hari n'umuntu w'igitsina gabo, uyifasheho.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo moto itwaye umugenzi, umwe yambaye ingofero y'umutuku n'undi ahetse yambaye ingofero y'icyatsi iri kugenda, hakurya y'umuhanda hari n'izindi moto ziparitse.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imirongo icagaguyewe y'umweru n'umukara, harimo ikinyabiziga cya moto, gihetse umugenzi, bambaye n'ingofero zibarinda, umwe yambaye umutuku, undi yambaye icyatsi, hirya hari amazu y'ubucuruzi, acururizamo ibicuruzwa bitandukanye, hari n'imodoka zihaparitse.

Moto nyinshi cyane ziparitse, zikoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi za sosiyete ya Sipiro zicayeho abantu benshi bazitwara, hari n'iziparitse zitariho abantu.

Ni umuhanda wa kaburimbo harimo imirongo icagaguye y'umweru n'umukara harimo ikinyabiziga k'imodoka kiri kugenda, hirya y'umuhanda hari ubusitani burimo ibiti ndetse n'ibyatsi, hari n'abantu bari kugenda muri uwo muhanda.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo umurongo muremure w'umuhondo, harimo ikinyabiziga cya moto, gihetse umugenzi, wambaye n'ingofero zibarinda zisa umutuku, hirya y'umuhanda hari umurima munini cyane.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ikinyabiziga cya moto kiriho umuntu w'igitsina gabo wambaye ingofero y'ubururu, ahetse ibyansi birimo amata, hakurya y'umuhanda hari amazu menshi n'ibiti.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo uturongo tw'umweru n'umukara, harimo ikinyabiziga cya moto gihetse umugenzi, hirya hateye igiti cy'umwembe, hari n'umunyamaguru uri gutambuka, hari n'imodoka y'umweru iparitse.

Mu muhanda w'amabuye harimo ikinyabiziga k'igare gitwawe n'umuntu w'igitsina gabo wambaye imyenda y'umukara ahetse indobo, hakurya y'umuhanda hari amazu menshi y'ubucuruzi, haparitse n'imodoka, hari n'imitaka y'umuhondo ya sosiyete ya MTN.

Amagare menshi cyane aparitse, ariho n'abanyonzi hari abambaye amajire y'icyatsi n'umuhondo, bigaragare ko bategereje abagenzi batwara kugira ngo babageze aho bagomba kugera.

Aho abanyamaguru bagendera, hubakishije amatafari yo mu bwoko bw'amapave n'uturongo tw'umweru n'umukara, haparitse moto ebyiri, ziriho abantu, hirya haparitse n'imodoka ndetse n'igare.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ikinyabiziga cya moto, kiriho abantu babiri umwe utwaye n'undi bahetse, bambaye kasike zibarinda mugihe bakoze impanuka kugira ngo badakomereka, hakurya y'umuhanda hari amazu menshi, hari n'umuntu uri kugenda.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo uturongo tw'umweru n'umukara, harimo ikinyabiziga cy'imodoka isa icyatsi cyijimye, yanditseho rdf maganacyenda mirongo irindwi na gatandatu T, hirya hari ubusitani bwiza.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo uturongo ducagaguye tw'umweru n'umukara harimo ikinyabiziga cya moto kiriho uyitwaye n'uwo atwaye, umwe wambaye kasike y'umutuku n'undi wambaye kasike y'icyatsi, uyitwaye ari kwica amategeko y'umuhanda areba muri telefone, hirya ye hari ubusitani bwiza buteyemo ibiti.

Mu muhanda hari ibinyabiziga bitandukanye, moto ihetse umugenzi imodoka y'umukara ndetse n'indi moto ifite agakiyosike inyuma k'umutuku, hirya hari abantu bacuruza ama inite ya sosiyete ya Airtel, hirya hari n'imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange y'umuhondo.

Mu muhanda wa kaburimbo, aho abanyamaguru batambukira, hari uturongo tw'umweru n'umukara, harimo ikinyabiziga cya moto, gitwawe n'umuntu wambaye ishati y'umweru, gihetse umufuka munini cyane, hirya y'umuhanda hari ibiti bitandukanye.